Ni icyapa cyanditseho sanlam Rwanda, gifashwe n'abantu batandukanye hari abagabo, hari abagore. Sanlam ni ikigo cy'ubwishingizi gikunda gukoreshwa n'abantu benshi bari mu buryo bwo kwivuza.

Hari ikigo cy'ubwishingizi, kiri kugerageza kugaragaza ibyo bakora cyitwa Buritamu, ni ikigo wabonamo ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse, bwagenewe ibigo bitandukanye, hari n'ibigo bito, ibigo bito by'imari, ibigo bya leta, ibigo by'amashuri, n'ibindi.

Bari kwamamaza ubwishingizi bwihariye kandi buhendutse, ku matsinda n'ibigo bito. Ikigo Burita ni ikigo kigira ubwishingizi bwo kwifuza. Ubu ni uburyo rero bwo kwamamaza bagaragaza ko yaba amatsinda mato, yaba ibigo, byagana buritamu, muri gahunda yo kugira ngo bagire ubwishingizi mu kwivuza.

Icyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza yitwa Radiant. Ni ubwishingizi bukorera mu Gihugu cy'u Rwanda. Bari kwerekana amasaha yo gukora, uvuye ku wa mbere ukageza ku wa gatanu, kuva saa moya n'igice za mu gitondo kugeza saa mbiri za nijoro. Ku wa gatandatu igihe bakorera ndetse n'iyo ari ku muganda rusange no mu minsi y'ikiruhuko. Inyuma y'icyo cyapa hari abantu.

Hano hari ikirango, ni ikirango cy'ubwishingizi bwa Sonarwa, hanyuma kiragaragaza yuko ari aho umuntu yinjirira, kiri hasi ku makaro. Hanyuma kikanerekana yuko iyi Sonarwa ari agashami gakorera ku Kinamba.

Ubu ni uburyo bwo kwamamaza hagaragazwa serivisi zitangwa ni ikigo cya buritam batanga ubwishingizi bwo kwivuza bwihariye ku bigo bito n'amashyirahamwe, usomye ibi ngibi akeneye izi serivisi agana iki kigo cyangwa se agashaka serivisi batanga haba hariho na nimero tefone wahamagara.

Iri ni itungo rigufi ryitwa ingurube ariko handitseho ngo ubwishingizi bw'ingurube, ni ikigo cy'ubwishingizi kiri kugaragaza, kiri gushaka abantu bakigana, cyerekana ko ukeneye no kugikoresha bashyizeho nimero wahamagara, hari kugaragara zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu na rimwe ugakomeza.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Zigama none tera imbere ejo, ikimina cyacu, ni ikigo cy'ubwishingizi cya purayime , kiri kwamamaza, kigaragaza ko wazigama amafaranga, ugateganyiriza ejo hazaza. Ni uburyo bukoreshwa abantu iyo bari kwamamaza, aho ushobora gufata amafoto y'abantu, ukayagaragaza mu buryo bwo kwerekana ibyiza by'icyo kigo kugaragariza abantu.

Ni ubwishingizi bwo kwivuza Buritamu. Barimo bamamaza ko wahitamo buritamu ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse. Mu Rwanda hari ubwishingizi bwinshi. Iyi Buritamu rero, na yo ni bumwe mu bwishingizi bukorera mu Rwanda, barimo bamamaza ko uwakenera yakorana na Buritamu.

Iyi ni porogaramu igendanwa bashyirira abantu muri telefone itangwa na banki ya beka, aho abantu bashobora kohereza amafaranga cyangwa se ukaba wareba amafaranga ufite kuri konti yawe, cyangwa se ukaba wareba ibikorwa wakoreye kuri konti yawe, cyangwa ukaba wakwiguriza wakwigurira amafaranga yo guhamagara.

Hirya no hino ugenda usanga hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, ariko amenshi murayo masoko usanga ahuriyeho n'uko abacuruza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu bagiye batandukanye. Ayo masoko yose ugasanga ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'umuturage ukamufasha kwiteraza imbere mu buryo bumwe kandi akanamufasha no kubaho neza mu buryo bw'imyambarire.

N'icyapa cyo ku muhanda hejuru hari ikiriho umurongo hejuru hari ikintu kibyimbye hameze nk'umusozi, munsi yacyo har' ikiriho abana, n'umukobwa, n'umuhungu ndetse na metero ijana hari igare rihaparitse imbere yaho hari amatara y'amamodoka, biragaragara yuko ari nijoro.

Ni uburyo bukoreshwa muri terefoni, aho umuntu afata terefoni agashyiramo uburyo bwo gukoresha banki, akajya ashobora kwerekana uburyo yakohereza amafaranga cyangwa se abikuza, akaba ashobora kureba ayo asigaranyeho bidasabye ko ajya kuri banki. Iyi ni banki y'urwego, ariko biragaragara ko ari uburyo bwo kuyikoresha muri terefone. Flugence Misigaro.

Iyi ni porogaramu ngendanwa ya banki ya beka ikoreshwa muri telefone. Ni porogaramu ikoreshwa abantu bohereza amafaranga cyangwa bishyura serivisi zitandukanye, hano baratwereka konti bakatwereka n'amafaranga ndetse n'ibikorwa byakoreye kuri iyo konti.

Ni inkweto zipanze zigiye zitandukanye higanjemo inkweto za siporo bigaragara ko aha hantu hari ahantu hacururiza inkweto akenshi bakunda gukora ibi bintu bimeze gutya bari nko kwamamaza cyangwa se bagerageza gushakisha abantu baza kubagurira.

Ni mu nzu icururizwamo, akenshi amazu nk'aya aba arimo ibicuruzwa byiza by'imyenda igezweho hari imitira, ntabwo mpamya ntashidikanya ko hari n'ibindi, ni isoko ryiza rigezweho.

Ni umuhanda uri aho abaturage batuye werekana ko hari icyapa kiri bukate iburyo muri metero mirongo ine uvuye aho icyapa giherereye ugomba kugenda gake kugirango ubone uko ukata nta nkomyi.

Icyumba bacururizamo imyenda, harimo amashati ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, bari kwerekana ko ari muri Golden fashion, biragaragara ko ari izina bashyizeho, rigaragaza iki cyumba bacururizamo.

Imyenda izinze, amapantaro, hari imipira, hari ibikapu n'ibindi, aha hantu hacururizwa imyambaro itandukanye, byakorohera kubona icyo wambara, byakorohera uwagera aha hantu kuko ari iduka ririmo imyenda myiza.

Ni inyubako icururizwamo imyenda, hari imyenda y'abadamu, hari amakanzu, hari amashati n'ibindi. Iyi nyubako rero harimo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amatara, yubatse mu buryo bwiza bugezweho.

Umukandida wiyamamariza kuba perezida wa repubulika w'ishyaka rya green gurini pate Frank Habineza ari kwiyamamaza abanyamakuru bagenda bamufotora abamwungirije n'abamuherekeje bamugaragiye abaturage bitabiriye inyuma ya senyegi yaho ari bitabiriye baje kumva ibyo abagezaho.

Mu iduka ry'imyenda hari amakoti y'abagabo.,hari amashati ,hari karuvati, hari inkweto. Imyambaro ni ikintu kigira umuntu mwiza baravuga ngo uwambaye neza agaragara neza iyo wambaye neza ugaragara neza.

Ndabona inyubako y'ubucuruzi, bacuruza imyenda y''adamu, si iyo gusa, bacuruza n'ibikapu, udushakoshi two mu ntoki tw'abagore, bacuruza imipira, ni imyenda igezweho.

Hari abagabo babiri bahagaze, bafite urufunguzo rw'imodoka ariko rw'urukorano. Umwe ari kuruharwa, inyuma yabo hari imodoka ebyiri ziparitse, impande zabo hari indi modoka igaragara ko ari shyashya, ni ku kagera motoro.

Ndabona umuntu ufite urufunguzo rw'imodoka ariko uburyo urufunguzo rumeze niza zindi zigaragara ko ari nk'izi nkorano zimwe zihabwa abantu batsindiye imodoka inyuma yuwo muntu hari imodoka uru rufunguzo rwanditseho Akagera ni imodoka igaragara ko iri muri parikingi bigaragara ko ariyo yatsindiye.

Ni urufunguzo rw'imodoka rw'inkorano. Biragaragara ko bari mu bikorwa bigaragaza yuko umuntu yatsindiye imodoka, n'ikimenyetso kigaragaza urufunguzo rw'imodoka, imodoka ziraparitse hari inyubako zitandukanye ariko abantu bafite urufunguzo rugaragaza ko ari urw'imodoka. Birashoboka ko yaba yayitsindiye.

Imodoka zitwara abagenzi ziraparitse n'IMODOKA enye kuruhande rw'iburyo hari guhinguka inzu ndetse Inyuma y'izo modoka ubona hari uruziti urahabona uruzitiro rwamabuye hakurya yaho hari ibiti.

Bahagaze ari abagabo babiri n'umugore urimo hagati. Inyuma yabo haparitse imodoka, bafite urufunguzo rw'imodoka rugaragara ko ari nk'urwo bashushanyije cyangwa abantu bikoreye. Biragaragara ko uyu muntu urimo hagati yatsindiye iyi modoka, hanyuma akaba ari uburyo bwo kugira ngo agaragaze ko ayitwaye. Ni uburyo bukunda gukoreshwa bari gutanga ibihembo.

Abagabo batanu bafite urufunguzo rw'imodoka rw'inkorano biragaragara ko ari umuntu watsindiye imodoka cyangwa se ugiye kuyihabwa mu bundi buryo bw'ishimwe, hari imodoka ziparitse zitandukanye.

Ni imodoka ziparitse, ariko iyi modoka iri imbere mureba, yanditseho ko ari imodoka y'i Kigali iri ku isoko. Ni uburyo bwo kumenyekanasha igicuruzwa kiri ku isoko, cyangwa se ku buryo umuntu yahanyura agahita abona ko iki kintu kigurishwa, hari izindi modoka hari inyubako, imbere yaho hari ibiti.

Abagabo babiri bafite urufunguzo rw'imodoka mu ntoki ariko rw'urukorano ni urugaragaza ko umuntu aba yatsindiye imodoka cyangwa se aba ayihawe na sosiyete runaka hari imodoka ebyiri ziparitse ndetse inyuma yiyo modoka hubatse uruzitiro .

Ni urufunguzo rw'urukorano rw'imodoka, ni imodoka iparitse ihagazweho n'abantu babiri, biragaragara yuko ari umuntu watsindiye imodoka cyangwa se ugaragara ko ari guhabwa ishimwe. Akenshi, iki ngiki aba ari ikimenyetso kigaragaza ko umuntu yatsindiye imodoka, hanyuma bakabigira gutya kugira ngo bafate amafoto mu buryo bwo kugira ngo bagaragaze icyabaye.

Imodoka igurishwa iri mu bwoko bw'ijipe bari kugaragaza uko igurishwa imodoka nziza cyane iraparitse, baragaragaza ko ukeneye kuyigura ni miliyoni mirongo itandatu n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, ni imodoka ihenze kandi akeza karigura.

Iki ni igiceri cyakozwe na banki nkuru y'u Rwanda mu mwaka w'ihumbi bibiri na cumi na rimwe, ubundi iki giceri gifite ibice bibiri hari aha hantu hagaragara ku kigori, n'inyuma hari undi mwanya uhari wanditseho amafaranga ndetse uriho n'ikirangantego cy'igihugu.

Banki nkuru y'u Rwanda igira uruhare kongera no gusohora amafaranga mashya, iyi ni inote y'ibihumbi bitanu iri gukoreshwa mu Rwanda, ni inote nshyashya, irimo inzu igezweho ya Kigali ndetse ni banki ni inote itaramara igihe kirekire.

Akenshi abantu bakora mu mabanki, baba bafite amafaranga menshi, hari uburyo bwateguwe bwo kugira bijye bibafasha kuyabara. Ni akamashini rero kagenewe kubara amafaranga, aho ushyiramo inote kakazibara kihuse. Iyo ukeneye kumenya ko wibeshye wanasubiramo.

Ni inote y'ijana. Mu Rwanda hari ubwoko bw'amafaranga hakoreshwa. Ni amanyarwanda. Hari igihe banki nkuru y'u Rwanda ijya ijya, ijya ishaka uburyo bwo guhinduranya amafaranga. Nk'uyu munsi wa none dukoresha igiceri cy'ijana, ariko twigeze dukoresha inoti y'ijana; ariyo y'iyi. Si n'iyi gusa, hari izindi twakoresheje.

Ndabona inote y'ijana ni amafaranga yakoreshwaga mu Rwanda mu gihe cyashize, iyi noti yakoreshwaga mu buryo nyine bw'amafaranga, abantu bakundaga kwifashisha amagambo bavuga ngo iyi note iriho Nyiranez ahetse Rubaduka, iyi note y'ijana yasimbuwe n'igiceri k'ijana.

Ndabona inote y'ijana, iyi note ntabwo igikoreshwa mu Rwanda, ariko ni inoti yajyaga ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, ubungubu iyi note ikaba yarasimbuwe n'igiceri. Ubu ntabwo tugikoresha inote, ahubwo dukoresha igiceri k'ijana.

Hano hari indobo irimo keke biragaragara yuko zicuruzwa impande yaho hari amasahani. Iyi ndobo ntabbwo ipfundikiye yose kugirango ubasha kureba abashe kubona keke zirimo.

Iki ni icyumba gicururizwamo, hari igicuba kirimo amata, hari umukobwa uri muri iki cyumba gicururizwamo, hejuru hari amajerekani, impande hari ahantu hashobora kuba hicarwa n'abakiriya baza muri iki cyumba.

N inyubako bacururizamo ibyo kurya harimo amandazi, harimo amazi y'inyange, amata y'inyange, fanta, ndetse n'amazi ya Nili.

Ni inyubako iriho icyapa, kigaragaza ko ari mu karere ka Nyanza, uruganda rutunganya ibikomoka ku nka. Hari amata, hari yawurute, hari ayo mu tujerekani, ndetse n'amata yo mu dukombe. Uru ruganda ruherereye i Nyanza.

Utujerekani turimo amata, igicuba, intebe, biragaragara yuko ari uruganda rw'i Nyanza rukora ibintu bigendanye n'amata. Harimo intebe, harimo ameza, biragaragara y'uko bakiriramo n'abantu baje babagana.

Ndabona abantu bicaye bari kunywa amata, bafite n'ibyo bari gufatisha keke, ndabona umuntu uhagaze ufite igicuba ndetse n'utujerekani, agaragara nk'aho ari we uri gucuruza amata.

Ni indobo iriho irindazi, ndetse n'akantu kagenewe gufata amandazi, biragaragara ko ari muri resitora., ahantu bacururiza amandazi, hahandi ushobora kuza kugurira, bagafatisha agakoresho kabugenewe, mu rwego rwo kugira isuku, no kwanga gufatisha intoki.

Muri rusange twebwe Kagame Paul perezida wa repubulika inteko ishinga amategeko yemeje none natwe duhamije dutangaje itegeko riteye ritya, kandi dutegetse ko ritangazwa mu igazeti ya leta ya repubulika y'u Rwanda.

Ni umuntu wicaye ahantu batangira serivisi zijyanye nibyo kurya nibyo kunywa, ndabona firigo, iyi firigo rero irimo ibinyobwa bitandukanye, fanta z'ubwoko bwose ,ndabonamo fanta koka kola ndetse na fanta fiyesta.

Ni umuntu kuriganiza amata ayasuka mu cyuma cyagenewe kuyungurura amata, arimo arayakura mu gicuba ayasuka mu kindi gicuba kinini gishobora kuba kigira uruhare mu kuyungurura cyangwa se mu gutegura neza aya mata, biragaragara ko hari mu ruganda rutunganya amata.

Inyubako irimo ibintu ibyo kurya, ndabona umuntu ugaragara nkaho ari umuguzi, imbere hariyo uri kugurisha, harimo ibinyobwa, ibiribwa ndetse n'amazi, harimo amandazi, sambusa n'ibindi.

Abantu b'ingeri zitandukanye barahagaze bari kwifotoza harimo; umugore, harimo umukobwa, ndetse abasigaye n'abagabo bambaye amakositimu. Inyuma yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'ubwisungane mu kwivuza.

Ni inyemezabwishyu ya y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro yahawe ikigo cya purayimu inshuwarensi, hanyuma iza kuzasinywa n'uwitwa Ismael Semukanya, ikaba yaratanzwe ku italiki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa mbere bibiri na cumi na gatandatu.

Ubusanzwe abacuruzi cyangwa se abandi bantu bafite ibikorwa bakora, baba bariyandikishije mu kigo cy'imisoro n'amahoro, aho batanga imisoro yategetswe n'igihugu, iyo ukeneye kureka ubucuruzi cyangwa se ugize indi mpamvu, waka icyemezo cy'uko utabereyemo umwenda, utabereyemo umwenda w'imisoro, iki ni icyemezo rero gitangwa kigaragaza kutaberamo umwenda w'imisoro n'amahoro.

Inyemezabwishyu itangwa n'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ni iya Mushyirahamwe Gregory, ikaba igwa ku itariki ya mbere z'ukwambere bibiri na cumi n'umunani, ikaba izageza mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'ikenda, ni uburyo bwo kumenyekanisha umusoro w'umwaka. Umukozi w'icyo kigo wemeje iyi nyemezabwishyu yitwa Rusibiza.

Iyi ni inyemezabwishyu y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, bari kugaragaza amafaranga yishyuwe, bakagaragaza n'igihe yishyuriwe, ndetse n'ubwoko bw'amafaranga yishyuwe ayo ariyo, ndetse bakanagaragaza uwasinye kuri iyi nyandiko ko ari uwitwa Bitegekimana sisiriya.

Hano hari inyemezabwishyu y'umusoro itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, iyi nyemezabwishyu n'iy'ikigo n'iy'uruganda rushinzwe ibikorwa by'ubwubatsi, hanyuma ikaba yaremejwe n'uwizeyimana consolata nyebwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro.

Ni inyemezabwishyu y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro y'uwitwa uruganda rw'ubwishingizi rwa Purayimu, yatanzwe tariki ya mbere z'ukwa mbere bibiri na cumi na gatandatu, bigaragaza ko ari iyo kuva kuri iyo tariki ya mbere z'ukwa mbere bibiri na cumi na gatandatu kugera mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri itangwa n'umukozi w'icyo kigo witwa Esiperanse Ntakirutimana.

Niba ufite indoto zo gukorera ibirori n'ibitaramo ahantu heza rwose ndakuragira hiritopu hoteli, iherereye mu giporoso ntabwo ari kure, ugera i Remera ukaba urahageze bagane bagufashe.

Iyi ni inyandiko itangwa na banki igaragaza ibikorwa umuntu aba yaragiye akorera kuri konti ye, ibasha gutuma umenya amafaranga yinjiye n'amafaranga yasohotse cyane cyane iyo hari gushidikanya umuntu yibaza ibikorwa yaba yarakoze byamutwaye amafaranga.

Ni inyemezabwishyu y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, yemejwe n'umukozi w'icyo kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro; Uwiragiye Pacifique. Ikaba yaratanzwe ku itariki ya mbere z'ukwa mbere bibiri na cumi na gatandatu, ikaba yaragombaga kurangira kuri mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi na kabiri, bibiri na cumi na gatandatu.

Ni inyemezabwishyu, yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, bayimenyekanishije itariki ya mbere z'ukwambere bibiri na makumyabiri na kabiri, igomba kurangira mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi na kabiri bibiri na makumyabiri na kabiri, iyi nyemezabwishyu ni iy'ikigo gikora ibintu bijyanye n'amarangi.

Ni inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, yahabwaga ikigo cy'ubwisungane cyitwa purayime, ikaba yaratanzwe ari inyemezabwishyu igaragaza uko bamenyekanisha imisoro mu gihembwe, kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kabiri.

Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, iyi ni inyemezabwishyu yahawe uruganda rukora amarangi, bakagaragaza igihe bayitangiye n'igihe inyemezabwishyu igomba kumara, ni uburyo bwo kugaragaza no kumenya no kwishyura imisoro bakagaragaza ibyakozwe, ndetse bakagaragaza aho batangiye gukora amafaranga bamaze gutanga.

Uko ivunja n'ivunjisha rihagaze, ku wa mbere tariki ya cumi z'ukwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri na gatatu, barerekana ibihugu bitandukanye, bakerekana kugura amadorari, uko ari kugura ndetse no kuyagurisha uko ari kugura.

Ni ibihugu bitandukanye bigaragara uko ifaranga rihagaze, ivunja n'ivunjisha cyangwa se kugura amafaranga no kuyagurisha yaba amafaranga y'amanyamahanga n'ibindi. Iyi ni raporo yagaragajwe tariki ya makumyabiri na kabiri ukwacu na kabiri bibiri na makumyabiri na gatatu ,uko ibijyanye n'ivunjisha byari bihagaze.

Ni amafaranga magana atanu, aya mafaranga magana atanu akoreshwa mu gihugu cya tanzaniya buri gihugu kiba gifite ubwoko bw'amafaranga gikoreshwa aya rero n'amafaranga magana atanu akoreshwa mu gihugu cya tanzaniya ashobora kugufasha kubona serivisi zitandukanye uri muri icyo gihugu ariko wagera mu gihugu kitari icyo ngicyo bikagusaba kubanza kuvungishasha ayo mafaranga.

Ni inyubako iriho icyapa. Hari ikigo kigeze gikorera mu Rwanda, gitanga serivisi zo guhamagara ndetse n' uburyo bw'itumanaho kitwa Tigo . Iyi nyubako iri mu mabara ya Tigo, hakorera n'ikigo cyo kuvunja no kuvungisha amafaranga y'abanyamahanga.

Ni inyubako iriho icyapa ,aho iki cyapa kiri kigaragaza yuko bavunja amafaranga ukaba ushobora gutanga abanyarwanda bakaguha amadolari cyangwa se bakagu ubundi bwoko bw'amafaranga ku mugabane w'ubu burayi ndetse no ku mugabane wa wa amerika izo serivisi bari kukubwira ko hano zihari.

Ni ibyapa byinshi cyane bitandukanye, bigaragaza serivisi zitangirwa muri aka kazu, hari icyapa cya Banki ya Kigali, hari icyapa cya Eco-Banki, hari icyapa cy'Urwego Banki, hari icyapa cya MTN, hari icyapa cya Airtel ndetse hari n'icyapa cy'Ikigo cy'Igihugu cy'Amashanyarazi n'ibindi, biragaragara kuri serivisi zitangirwa...

Ni uburyo bw'itumanaho bukoreshwa mu Buganda, ni igihugu cy'abaturanyi cy'u Bugande, bakoresha ikintu bita MPSA, ni uburyo bwa MTN nkuko mu Rwanda tugira mobilomani, ni uburyo bwo kohereza no koherezwa amafaranga. Na aha mu Buganda rero, wakohereza cyangwa ukoherererezwa amafaranga ukoresheje, uburyo bwa telefone.

Icyapa cyanditseho ko ari kwa Ineza. Baragaragaza ibyo bakora biragaragara yuko ari ibiro by'ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga yamanyamahanga. Ahangaha uhageze uhasanga amafaranga y'ibihugu bitandukanye. Imbere y'iyo nyubako hari ibiti ndetse hari n'ibindi byapa bigaragaza ko hari ibindi bihakorerwa.

Ni mu inzu haragaragaza akabati kagezweho muri ako kabati harimo imitako imeze neza, ndetse hari n'amarido hari indabyo zitatse kuri ako kabati ndetse n'utundi dukoresho tugaragaza imitako myiza yo muri iyi salo.

hari inyubako, hari intebe, hari imisego yewe hari n'ibindi bintu bitandukanye, iki cyapa cyanditseho, handitseho ko ari ku muntu witwa Kwizerwa, bigaragara ko uyu umunyabugeni ukorera aha hantu kwizerwa ukeneye serivisi ze biri kugaragara ko wamushaka aha, hano hari ibintu bigendanye n'ibyo akora ari kumenyekanisha ibikorwa bye

Ni intebe nshyashya ndetse n'utumeza twazo, izi ntebe ziri kugurishwa, imbere yayo hari ikigega kinini kandi hirya yazo hari inzu.

Ni ibikoresho binyuranye, ni intebe, n'ameza, n'udutebe dutoya n'akabati ibi bikoresho biri ahantu bigaragara yuko ukeneye kubigura yabigura.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Hano ni imbere mu nzu, haragaragara ahantu hashyirwa televiziyo, aho barebera amashusho, hanyuma hari n'akabati kagezweho gashobora kujyana n'ibindi bikoresho bishobora gufatana na televiziyo ndetse hari n'ibitabo biri muri ako kabati.

Ndabona inyubako iyo n'inyubako nziza imbere y'iyo nyubako hari intebe ziteye mu busitani bigaragara yuko hari abantu bajya baza kuhicara bakahiyakirira iyi nzu ishobora kuba ari inzu y'ubucuruzi ariko yakira abantu batandukanye baza kuruhukira.

Intebe ziteguye mu busitani, ndabona ahantu ho kogera, hari amazi, ndabona ahantu hameze neza nka hoteri, ndabona ibiti bitandukanye, ndabona amazu, ndabona imitaka abantu bicaramo bugamyemo izuba yaba bari kwiyakira cyangwa se bagiye koga.

Ndabona inyubako nini igaragara ko ari hoteri ndabona intebe zicarwamo n'abantu baje kugera hano, imbere kuri iyi hoteri ndabona amazi menshi akunda kwifashisha abantu bari koga bari kwishimisha.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Ndabona inyubako mbere y'iyo nyubako haparitse imodoka ebyiri ariko uretse izo modoka ebyiri hari indi myanya yagiye igenerwa ko azajya haparika amamodoka atandukanye. Iyo nzu i igeretse inshuro eshatu, ku nshuro ya mbere, yaba iya kabiri, yaba iya gatatu, hagiye hariho ibyapa bigaragaza ibintu bigiye bikorerwa kuri iyo nzu.

Iki ni icyapa cy'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Sonarwa, biragaragara ko aha hantu bategereje serivisi za Sonarwa. Kuko aha hantu icyapa kiri biragaragara ko aribyo bihakorerwa. Hari abantu batandukanye inyuma y'inyubako irimo Sonarwa ndahabona igiti.

Iyi ni inyubako nini, hanyuma hejuru y'inyubako hariho ibyapa ndetse n'amagambo yanditseho, agaragaza ikigo cy'ubwishingizi, ibi byapa byose biragaragaza yuko iki kigo cy'ubwishingizi ari hano gikorera. Ureba ibi byapa ahita amenya ko muri iyi nyubako hatangirwamo serivisi z'ikigo cy'ubwishingizi.

Ndabona inyubako kuri iyo nyubako hariho icyapa cya sonarwa, biragaragara ko iyi nyubako ikorerwamo na sonarwa icyapa kiri ahagana hejuru gishobora kubonwa n'umuntu uwo ari we wese ku buryo uwabona iki cyapa wese yahita amenya ibikorerwa muri iyi nyubako.

Ni ubwishingizi bwa muwa buherereye Remera i kigali hariho nimero ya telefone wahamagara, zeru karindwi iminani, ibiriri, ijana na makumyabiri gatanu, zeru makumyabiri na kane, mu Rwanda hari ubwoko bwinshi bw'ubwishingizi.

Inyubako zitandukanye zigiye ziho ibyapa n'ibirango bitandukanye biragaragaza ibikorerwa muri ayo mazu, nko kuri iyi nzu nini igaragara irimo hagati hariho icyapa cya sonarwa. Sonagurwa n'ubwishingizi, biragaragara ko abantu batanga izo serivisi za sonarwa.

Ni inyubako nziza cyane hari icyapa kiri imbere yacu kigaragaza iyo nyubako iyo ariyo cyangwa ibikorerwamo, handitse saniramu. Saniramu ni ikigo cy'ubwishingizi, gikunze gukoreshwa n'abantu benshi bafite amakarita yo kwivurizaho ya saniramu.

Repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta, inama nyunguranabitekerezo n'inzego zo mu butegetsi bwite bwa leta, bikorewe i Kigali muri Mata bibiri na makumyabiri na gatatu.

Iki ni ikigo cy'ubwishingizi bita prime hanyuma kiragaragaza yuko ari icy'imuhanga agashami kayo ni aki muhanga iki kigo gikorera mu gihugu hose ariko ukurikije iki cyapa n'iyi nzu iki cyapa kiriho biragaragara ko ariho iki kigo gikorera kiri mu karere ka muhanga .

Ni icyapa cya banki y'abaturage y'u Rwanda, barikuvuga ngo turi hano, bari mu bikorwa byo kwamamaza, baragaza ko bafite imyanya y'akazi. Bagaragaza ko bakeneye, umuyobozi ushinzwe inguzanyo, umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa, ndetse n'umuyobozi waba ahagarariye akaburanshi cyangwa se agace runaka.

Ama banki menshi akorera mu Rwanda yateye imbere, aho ashishikariza abaturage kugura cyangwa se gutira amafaranga wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Iyi ni banki ikorera mu Rwanda yitwa GT bank, bari kugaragaza ko ushobora kwitiza amafaranga, aho bagaragaza ngo ushobora gukanda akanyenyeri, karindwi, gatatu, urwego, akayenyeri, zeru, urwego. Ni uburyo bukoreshwa.

Uru ni urupapuro rutangwa na banki, rwuzuzwa n'umuntu ushaka inguzanyo. Bari kukwereka aho wandika konti yawe, bakakwereka aho ushyira amazina yawe, ndetse n'ishami uri kwakiramo inguzanyo aho riherereye. Akenshi abantu iyo bagiwe kwaka inguzanyo kuri banki, hari impapuro wuzuza zitandukanye. Uru rero ni rumwe mu zuzuzwa n'umuntu ukeneye inguzanyo, by'umwihariko muri ayandemu banki.

Ni inyubako irimo abantu batandukanye, hanyuma irimo ibirango bya ekwiti banke, abantu barahuze mu buryo butandukanye bamwe bari ku matelefone abandi batonze imirongo, harimo ibyapa bitandukanye, biragaragara ko aba bantu bafite serivisi bari gushaka zitandukanye, buri wese afite ahantu ashaka kugira ngo bamufashe.

Ni banki ya enisibi eyi iririmo iramamaza, itanga inguzanyo, itanga serivise zinyuranye, bari kuvuga ngo nawe wagira iwawe, barerekana umuryango, umugabo, umugore n'umwana baranezerewe, barimo baragaragaza ngo ugufashe inguzanyo wagira iwawe, wakubaka cyangwa se ukagira ubundi buryo bwiza bwo kubaho ukoranye n'iyi banki.

N'ibikorwa byo kwamamaza, bari kuvuga ngo sababa inguzanyo ya iga usohoze umugambi wo kwiga gutwara imodoka. Akenshi imodoka ziriho iki cyapa, iki kirango kimeze, kiriho inyuguti ya L abara ar'imodoka bigishirizaho. Utu tumodoka batwigishirizaho gutwara ibinyabiziga. Barikuvuga ngo saba inguzanyo ya iga.

Iyi ni banki ya ekobanke iri gukora kumenyekanisha ibikorwa byayo, bari kwerekana ko ukoranye n'iyi banki ushobora kugura ibintu wifashishije ikoranabuhanga, ukaba watumiza ibintu hirya no hino iyo banki ibigufashijemo kandi utiriwe ugerayo, inkweto, ibikapu, n'ibindi bikoresho bigezweho.

Uburyo bwo kwamamaza hagaragazwa serivisi zigwa, afite terefone arimo araseka bakavuga gushimira inguzanyo itagira ikiguzi, ni uburyo bukoreshwa iyo abantu bamamaza cyangwa bashaka kugaragaza ibikorwa bakora, iki ni ikigo cya sipeni kiri kugaragaza ko gitanga inguzanyo.

Ni mu isoko, hari imyenda itandukanye, harimo n'abantu urujya n'uruza batandukanye. Hari abaguzi n'abagurisha, hari imyenda y'abagabo, hari imipira y'imbeho, ndetse hari n'ibindi bicuruzwa, wabona muri iri soko.

Hari umuntu ufite imbago ugaragara ko afite ubumuga bw'ingingo, hari abantu bari gucuruza imbuto imineke avoka ariko uko bigaragara ntabwogo ari mu isoko ahubwo biragaragara ko ari abo twita abazunguzayi.

Ni mu isoko: hari imyenda y'ubwoko bwose, hari ibikapu, hari amavarisi ,hari imikeka. Iri soko rifitemo n'abaguzi rikagira n'abagurisha.

Ndabona abantu bari mu isoko bafite ibicuruzwa bitandukanye hari ibitoki, hari ibitunguru, hari imboga z'ubwoko bwose, hari icyapa cya emutiyeni kigaragaza yuko n'izo serivisi zihatangirwa, hari abantu batandukanye bacuruza ibicuruzwa bitandukanye.

Ni mu isoko, hari ibiribwa bitandukanye; hari ibitunguru, hari inyanya, hari imineke, ndetse n'ibindi. Akenshi muri iyi minsi tugezemo imbuto cyangwa se ibiribwa birahenze hano hari umubyeyi wicaye mu isoko biragaragara ko ari kugurisha.

Ni mu isoko ry'ibiribwa, hari ibiribwa bitandukanye, hari imboga, hari ibitunguru, hari karoti hari amashu, hari n'ubundi bwoko bw'ibiribwa. Hari abantu bari gucuruza birumvikana hari n'abaguzi baje kugura.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye. Hari abantu bicaye, hari n'abandi bantu ubona wagira ngo baje kugura. Harimo imyumbati, harimo ibitoki, harimo amapapayi ndetse n'ibindi. Hari abantu bicaye bategereje abakiriya.

Ni mu isoko hari ibicuruzwa bitandukanye ndetse bigiye biriho n'ibiciro, hari iby'ijana, magana atandatu, magana atanu mirongo ine, magana arindwi na makumyabiri, ni ibiribwa ntacyo wabura wageze muri iri soko.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo myinshi itandukanye muri iyo mirongo harimo iy'umuhondo irombereje idacagaguye, indi akaba ari imirongo y'umweru ishushanyije mu cyerekezo kimwe cyangwa se aho abanyamaguru bakwiye kwambukira, hakaba hateye ibyatsi kuruhande rw'umuhanda kandi mu muhanda rwagati hakaba harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye nk'ibinyamitende moto ndetse n'imodoka.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Ibi n'ibicuruzwa bikorwa mu buryo bw'ubugeni, bikaba bifite umwihariko w'uko bikorerwa mu Rwanda bikaba biboneka hirya no hino mu gihugu, bikaba bikunzwe cyane cyane kugurwa n'abanyamahanga.

Mu isoko abantu batandukanye, hari ibicuruzwa bitandukanye, hari abakora imyuga itandukanye, hari abacuruza imyenda, hari abacuruza ibikapu, kandi hari n'abari gukoresha imashini zidoda.

Ndabona urujya n'uruza rw'abantu, nkabona ibicuruzwa, nkabona isoko rigezweho rya Nyabugogo, ndabona imodoka iparitse imbere y'isoko, ndabona abantu bikoreye imizigo, ndabona imodoka ziparitse hejuru y'isoko ndetse n'abantu batandukanye baje guhaha.

Ni abantu benshi bagaragara ko bari mu isoko barimo baraganira ariko ndabona imyenda itandukanye imanitse ndabona amapantaro y'abagabo ariko hakurya ndabona n'amashati y'abagore.

Isoko ry'imboga ririmo abantu bagiye batandukanye hari umucuruzi ari gutonora ibishyimbo hari ibitunguru, harimo amashaza, inyanya ndetse harimo n'abandi benshi.

Mu ubucuruzi bw'ibirayi harimo abagore babiri bari gucuruza ibirayi hari umuntu w'igitsina gabo ugaragara nk'umusore yaje kugura ibirayi, Ubusanzwe ibirayi birimo amoko, abantu batamenyereye iby'ibirayi ntabwo bamenya ubwoko bwabyo, ariko n'ibiciro byabyo ariko n'ibiciro ku isoko biba bitandukanye bijyanye n'ubwoko bw'ibirayi.

Ndabona isoko ry'ibiribwa n'imbuto abantu barahererekanya ibicuruzwa, bamwe baragura abandi baragurisha. Hari ibiribwa, hari imbuto ndetse hari umukobwa ufite akantu mu ntoki, bigaragara ko bashobora kuba bishyura banifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga.

Abagabo bane harimo babiri bambaye imyenda y'umukara yambarwa n'abapolisi bo mu Rwanda hagati y'abo harimo umugabo wambaye ikanzu y'umweru n'ingofero y'umweru n'inkweto z'umukara, umeze nk'umunyabyaha ufite uruhu rwirabura bazwi nk'abazungu. Inyuma y'abo hari imodoka ifite amabara y'umweru, ubururu n'amatara y'umutuku n'ubururu impande y'imodoka hahagaze umugabo.

Isoko ry'imyenda, imyenda y'abadamu hari agatebe kicarwaho n'umuntu uba uri gucuruza hirya hari umuntu ukoze mu mufuka ugaragara ko ari kureba serivisi zitangirwa aho ngaho cyangwa se ibicuruzwa biri gutangirwa aho hantu.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo uyu muhanda ku nkengero zawo hari imodoka ziparitse, ziparitse iruhande rw'inyubako nini cyane nini cyane ariko ibikorerwamo ntago biri kugaragara, ku ruhande rwo hino rw'uyu muhanda hari icyapa, hari ibyatsi ndetse hari n'akazu kahariwe kwicirwamo n'abagenzi.

Aka ni akazu ka emutiyene kicayemo umuntu uri utanga serivisi za emutiyene, aho akikijwe n'abantu batandukanye bari kumwaka izo serivise. Ushobora kohereza amafaranga, ushobora kubikuza amafaranga cyangwa se bakaguha amafaranga yo guhamagaza.

Faburise Hakuzimana ufite iriya nimero ya telefoni agiye kohererezwa amafaranga igihumbi, kandi ugiye kuyohereza baramuca amafaranga makumyabiri, yo kugira ngo kino gikorwa gikorwe, ni uburyo bukoresha bwo kohezwa amafaranga, aho umuntu yoherereza umwe amafaranga ari mu gace kamwe ,undi ari mu gace kandi, hano rero bageze hasigaye gushyiramo umubare w'ibanga.

Abantu babiri barimo bari kuganira, umwe afite igare riri mu kirango cya emutiyeni, ari kumwe n'umuntu wambaye umwambaro wa emutiyeni. Imbere yabo hari icyapa, kigaragaza uburyo wakora, uri kwiguriza, cyangwa se kugira ngo ukore serivisi zitandukanye za emutiyeni, abari mu buryo bwo kwamamaza, hano biragaragara ko bari guhemba uwatsinze.

Imodoka ziri mu ibara ry'umweru zitwara abagenzi, hari umugabo wambaye ishati ya karokaro n’ipantaro y’umukara ahagaze mu idirishya, hari n'abandi bagenda n'amaguru bisa naho baje gutega.

Airtel na MTN ni ibigo bikorera mu Rwanda; bitanga serivisi mu buryo bwo kohereza cyangwa kohererezwa amafaranga, kubitsa cyangwa kubikora, guhamagara cyangwa guhamagarwa. Hano hari utuzu rero, hari akazu ka Airtel ndetse na MTN, abakiriya bashaka gukoresha izo serivisi kubitsa cyangwa kubikura baraha.

Ni akazu karimo ibirango bya emutiyeni, ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho, hari nk'umuntu uri muri ako kazu kandi ku birango biri kuri ako ka handitse ko wakoherezwa ukira amafaranga. Bikunda gushyirwa ahantu kugira ngo bamenyekanishe abantu bakeneye izo serivisi kuba bakwegera aho hantu bakabafasha.

Ifoto y'abakobwa bambaye umwambaro we emutiyene bigaragara ko bari mu bikorwa byo kwamamaza, bari kugaragaza ukuntu wakora simuswapu ku buntu ndetse ukaryoherwa na interinete imara umunsi, imara iminsi irindwi mu buryo bushya bwo kwamamaza bujya bukorwa na emutiyene aho abantu bambara ibirango byabo bakajya kwamamaza.

Umuntu afite telefone ageze ahantu banditse ngo shyiramo amafaranga; inyuma hari icyapa cy'ukuntu ushobora kwishyura udatanze amafaranga mu ntoki; ndabona hari ahantu kibaruye mu mazina ya yohani bosiko; inyuma hari ibicuruzwa ndabona ikesi ya fanta.

Ibirango bya emutiyene, ikigo cy'igihugu cy'itumanaho hanyuma hari imitaka igaragara iriho abakozi bayo, imbere yaho hari icyapa bigaragaza ko serivise za emutiyene ziri gutangirwa hano. Inyuma yaho ndahabona ibyatsi.

Ni akazu k'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda kitwa MTN. Ushobora kohereza amafaranga cyangwa se ukayohererezwa ukayabikuza, ushobora kugura amafaranga yo guhamagara, ushobora gukoresha izindi serivisi wifashishije MTN. Aka kazu rero, hahagaze inyuma umuntu uri kwaka serivise.

Ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi akazura abantu bicaramo bategereje imodoka ndetse n'imodoka y'ivaturi, umumotari ndetse n'indi modoka ibari imbere itwara imizigo.

Ni inyubako iri mu birango bya ekwiti. Ekwiti ni banki, si ibyo gusa kuko ariho n' ibirango by'irembo ndetse hakaba n' ibirango bya beca yacu.

Abantu batandukanye bakeneye serivise, yaba abagore yaba abagabo bashagaye umugabo wicaye mu kazu, akazu kariho ibirango bya emutiyene, ikigo gitanga serivise z'itumanaho. Biragaragara yuko hari ibyo bakeneye hari serivise bakeneye za emutiyene hirya hari ibiti.

Ni bantu bari mu mwambaro wa emutiyeni, hari ibirango bya emutiyeni, ndetse hari n'indangururamajwi. Biragaragara ko hari gukorwa ibikorwa byo kwamamaza, bafite imishinga mishya cyangwa se imiyoboro mishya, bashaka kugeza ku baturage. Ni uburyo bakoresha rero bakajya ahantu runaka mu gasantere, mu buryo bwo kugira ngo abantu bamenye serivise batanga.

Ishusho igaragaza ibiro biberamo, ibiro biberamo ihererekanya, ibiro birafunguye imbere yabyo hari umuntu usa nuri gusohokamo biseze amabara y'icyapa cyerekana kiri mu mabara y'umuhondo.

Atwaye igare ariko handitse ngo vuba vuba. Ni uburyo abantu bahamagaza ibicuruzwa hanyuma bene kubicuruza bakaba bafite uburyo bwo guhita babibagezaho mu rugo. Ahetse igikapu kirimo ibintu byinshi biragaragara ko hari ibintu ajyaniye abantu mu rugo. Ni uburyo bugezweho burimo gukoreshwa, aho abantu bahamagaza ibicuruzwa bakabibagezaho mu rugo batiriwe bajya ku masoko.

Ni uburyo bwo kwamamaza, handitse ngo isoko rigari ni uburyo bushya bugezweho aho ugura ikintu warangiza bakakikugereza mu rugo. Ubu buryo buri gukoreshwa cyane, hariho nimero wahamagara ariko ivuga ko ku isoko rigari wagura ibicuruzwa mu buryo babikugereza mu rugo cyangwa bakabigusangisha iwawe.

Ndabona moto enye ziparitse ,abashoferi bazo bambaye ingofero zagenewe abatwara moto ,inyuma bagaragara nk'aho bafite ibintu bimeze nk'ibisanduku .Ibi bikunda kwifashishwa iyo ari abashoferi batwara zino moto zigamije kugemurira abantu bimwe mu byo bakenewe babikura nko mu isoko bakabijyana mu rugo.

Aha ni uburyo bw'igurisha cyangwa se kugaragaza ibiciro, iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, aho bakubwira ko ufite amadolari ibihumbi bibiri ubasha kubona iyi nzu, ni inyubako nziza cyane igezweho yubatse mu buryo bugezweho.

Ni inyubako nziza ifite amatara meza ikoze neza iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda uyikeneye, igura miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Ni inyubako ifite imitako imbere impande y'iyo nyubako hari iyindi nyubako iyi nyubako ifite hasi ikagera no hejuru ni inyubako nziza cyane ifite amatara agezweho amatara ya kizungu hirya y'iyo nyubako hari izindi nyubako.

Ndabona inzu irimo umugabo. Ni inzu igezweho. Igurishwa! Iriho n'icyapa kigaragara ko igurishwa Muri salo harimo amatara meza, ndetse ha ameza hari n'intebe, abantu bicaraho.

Ni inyubako irereye i Kigali Kabeza bari kutwereka ko ifite igikoni kigezweho, iyi nzu ikigaragara cyo iri kugurishwa kuko bari kutwereka ko ufite amadolari magana atanu mirongo itanu wabona iyi nzu, irimo ibikoresho bitandukanye, irimo ahantu bashobora gutekera n'aho bashobora gukarabira, harimo n'utubati.

Ni inzu igurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali yubatse ku buso magana atatu na gatanu mu mujyi wa kigali mu rRwanda, ishakwamo miliyoni mirongo irindwi neshanu, hirya y'iyo nzu hari ibiti mbere yayo hari imodoka.

Ni inyubako nziza, ifite ubusitani imbere, yubatse neza ifite uruzitiro, iherereye mu mujyi wa Kigali bari kugaragaza ko kuyigura bishoboka, miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda hirya yayo hari ibiti.

Hano ni mu bwiherero baragaragaza ubwiherero bugezweho ndetse iki cyumba bana cyogeramo, haraho kongera mu buryo bugezweho n'icyumba kirimo amakaro n'icyumba cyubatse neza gifite aho umuyaga usohokera gifite amadirishya.

Inyubako nini baragaragaza ko iherereye Kibagabaga Kigali kandi barerekana ko iri kugurishwa amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu iki ni ikintu gishyirwa ku nzu cyangwa se gishyirwa ahantu umuntu ari kugurisha agamije ko abantu babona icyo agambiriye cyangwa se bamenya ko niba agiye kugurisha bamenya agaciro , igenagaciro ry'icyo kintu ashaka kugurisha .

Ndabona ibikoresho biri mu nzu utubati n'ibindi bikoresho by'ibanze byo mu nzu, ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali Kanombe, biragaragara ko bavuga ko bifuza kuyigurisha miliyoni ijana na cumi n'eshanu, ni ibintu bijya bishyirwa ku nzu ziri kugurishwa, bifasha kuyobora abakiliya cyangwa se abandi bantu bifuza kugura.

Inyubako iri mu mujyi wa kigali, bari kukwereka imbere yaho uko hameze, hari igitanda, hari ako babikamo imyenda ariko biragaragara ko ari inzu yubatse neza, ku kwezi ishobora kwishyurwa amadorari magana atanu mirongo itanu y'u Rwanda, ni uburyo bwo kwamamaza, ku buryo ubaye ukeneye iyi nzu yishyura aya mafaranga, akabona ibyo ari kugura, akabona serivisi ashaka.

Inyubako iherereye Kibagabaga, ni inyubako nziza cyane iri mu gipangu, ifite ibyumba bitanu byo kuraramo, uyikeneye aba asabwa gutanga ama dorari magana abiri na mirongo ine.

Inyubako ariko igaragara ko iherereye i kigali mu Rwanda; iragaragara yuko iri kugurishwa aho bavuga ko umuntu afite miliyoni ijana na mirongo ine abasha kuyigura; iri i kanombe kigali, ni uburyo rero bumenyerewe bwo kugurisha aho abantu bagaragaza ibiciro by'ibicuruzwa.

Ni inyubako nziza cyane iherere imayange, ifite amakaro kandi iri kugurishwa. Ufite miliyoni cumi neshanu z'amafaranga y' u rwanda wayigura.

Ni inyubako nziza cyane iherereye Kigali Kimironko bari kuvuga ko ari inyubako ikodeshwa, ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse ikagira n'ibyumba bine by'ubwogero. Ni inzu nziza cyane iteye amabengeza.

Inzu nziza yubatse neza, igeretse, ifite ubusitani imbere, hariho nimero ya terefone, zeru karindwi umunani mirongo itandatu cumi na gatandatu mirongo irindwi n'umuni ikenda, ndetse baravuga ko inzu iherereye mujyi wa Kigali mu Rwanda bakavuga ko kuyibona bisaba amadorari ibihumbi bibiri, bigaragara ko iyi nzu uwagira aya mafaranga yayigura.

Inzu yubatse neza ifite imitako imbere yayo iherereye mu mujyi wa Kigali ku gisozi, bari kwerekana ko ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse ikagira n'ibyumba bibiri by'ubwogero.

Ni inyubako nziza bagaragaza ko iherereye Kibabaga, ni inzu ikodeshwa waba ufite amadolari ibihumbi bitatu ku kwezi, biragaragara ko ari inzu nziza ifite ubusitani imbere, kandi ifite ahantu hatandukanye yubatse mu buryo bwiza.

Abagore bane batatu muri bo bambaye amakanzu undi umwe yambaye ikositimu y'abagore bifotoreje hagati y'amadarako abiri rimwe ririmo ikirango cy'igihugu irindi rifite amabara yubahiriza igihugu ubururu, umuhondo, icyatsi ririmo n'izuba n'ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame.

Ni mu mujyi wa Kigali i Kanombe hari inyubako ikodeshwa, ifite ibyumba bine byo kuraramo ikagira ibyumba bitatu by'ubwogero, uwagira amafaranga mu gihe cy'ukwezi yakodesha ibihumbi magana atatu mirongo itanu.

Iyi ni inyubako ifite ibyumba bikodeshwa, bari kutwereka icyumba gikodeshwa amafaranga ibihumbi ijana mirongo itanu y'u Rwanda. Iki cyumba kirafunguye imfunguzo z'icyo cyumba siri mu rugi ku buryo kwinjira muri icyo cyumba byoroshye, uwakwinjiramo agiye kureba niba yashobora kugikodesha.

Ndabona inyubako imeze neza ijyanye n'igihe, hanyuma ukurikije uko bagaragaza bari kugaragaza ko iherereye i Kigali, i Kanombe kandi akaba ari inzu iri kugurishwa, bashyizeho igiciro cy'uko iri kugurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu.

Ndabona inzu na moto iparitse inyuma y'iyo nzu, hanyuma kuri iyo nzu handitse ko iyo nzu ikodeshwa, hariho agaciro k'ayo mafaranga ko ikodeshwa ibihumbi magana atatu, bishatse kuvuga ko uwakenera kuyikodesha akeneye inzu ihwanye n'ayo amafaranga yayibona.

Hano hari inyubako imeze neza iri kugaragaza ko ari inzu ikodeshwa bari kugaragaza yuko bayikodesha ibihumbi magana atanu buri kwezi iyi nzu iragaragazwa ko ifite ibyumba byo kuraramo bine hanyuma ikagira n'ibyumba byo kogeramo bitatu.

Mu mujyi wa Kigali i Kanombe hari inzu ikodeshwa, inzu imeze neza, yubatse neza ifite imitako imbere y'iyo nzu. Ifite ibyumba bine byo kuraramo n'ibyumba bitatu by'ubwogero, iyi nzu ku kwezi irakodeshwa ibihumbi magana atanu y'u Rwanda.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali Kimironko kwa Sekimondo ifite ibyumba bitatu birarwamo n'ibindi byumba bitatu by'ubwogero muri buri cyumba hakabamo akantu kabikwamo imyenda ikodeshwa ibihumbi magana atatu y'u Rwanda.

Ndabona inzu ariko ukurikije ibyanditseho inyuma biragaragara ko ari inzu ikodeshwa, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ikagera n'icyumba kimwe cyo kongeramo, ikagira nl n'aho abantu bicara, ikagira n'igikoni, ndetse ikagira na parikingi. Ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo irindwi mu gihe cy'ukwezi.

Ni nyubako igezweho imbere yayo hari ubusitani iherereye i Kigali kimironko ni inzu ikodeshwa ifite ibyumba bine byo kuraramo n'ibyumba bitatu by'ubwogero ku kwezi ikodeshwa ibihumbi magana atandatu y'u Rwanda.

Hano hari amazu ariko hakaba hari n'icyapa kigaragaza aho aya mazu aherereye, bari kwerekana ko ari i Kigali Kimironko hanyuma ni amazu agaragara ko akodeshwa, ni na ko handitseho ngo amazu akodeshwa, ni amazu atandukanye kandi meza.

Ni inyubako iherereye i Kigali Kimironko, ni inzu ikodeshwa, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ikagira n'ibindi byumba bibiri byo kogeramo. Iyi ikodeshwa ibihumbi magana tatu ku kwezi, ni inzu nziza bari kugaragaza imbere yaho uko hameze ndetse n'inyuma imeze neza.

Umuntu uri mu isoko ry'imyenda isoko ry'inkweto hari ibikapu ,hari imikandara hari ibintu bitandukanye uyu muntu rero ahagaze mu isoko biragaragara ko ari gushaka kubaza ni umudamu ufite igikapu

Iri ni isoko ririmo ibintu bitandukanye by'ibicuruzwa, hari abantu barimo bari guhaha harimo ibikapu ndetse harimo n'ibyo kurya, kuko nk'ubu ndabona ananasi ndetse abantu batandukanye harimo urujya n'uruza rw'abantu bari gushaka ibintu bitandukanye.

Ni mu isoko bacuruza ibintu bitandukanye hari ibikapu, hari inkweto, hari imyenda abantu barimo batandukanye harimo bari kugurisha ariko hari n'abaje kugura ibintu bigiye bipanze neza ku buryo abakiriya babasha kubyitegereza hari ibimanitse hejuru, hari ibitondetse ku buryo bugezweho ku buryo umukiriya abasha kubona icyo ashaka.

Abantu batandukanye bari ahantu hagaragara nk'isoko, hari ibicuruzwa bitandukanye, hari amasakoshi y'abagore, muri iri soko harimo abagore, harimo abagabo ubona ari urujya n'uruza rw'abantu.

Ni inyubako icururizwamo irimo ibicuruzwa bitandukanye ibikapu, inkweto, imyenda, amataratara ndetse n'ibindi, muri iyi nyubako kandi harimo kamera.

Icyumba kigezweho, bacururizamo. Harimo ibintu bitandukanye, harimo ibinyobwa by'ubwoko bwose, ndetse n'ibindi bintu nkenerwa mu buryo bwa buri munsi. Ni ibyumba biri gukoreshwa muri iyi minsi, aho abantu bajya guhahira ahantu hagezweho.

Ndabona ibicuruzwa by'imyenda, ni imyenda yiganjemo imyenda y'abagabo, amakositimu n'ibindi, ariko hirya nkahabona ibindi bicuruzwa by'imyenda kuko hari n'abandi bantu batandukanye b'abagore bashobora kuba bafite ibindi bintu bacuruza.

Ni mu isoko. Hari urujya n'uruza rw'abantu, hari ibiribwa, hari n'ibindi bikoresho bitandukanye. Hari abaguzi, hari n'abagurisha, hari ibikapu, hari ibintu byinshi bitandukanye wasanga muri iri soko.

Ni mu isoko hari ibicuruzwa bitandukanye, hari imboga, hari imbuto, hari ibintu byinshi bitandukanye wabona mu isoko, umukiriya ni umwami, abakiriya baraza bakareba, bakareba ibyo bashobora kugura hanyuma bakagura ku giciro cyiza.

Ni mu isoko hari urujya n'uruza rw'abantu bari gucuruza imyenda itandukanye. Amakositimu, amakaruvati n'ubundi bwoko bw'imyambaro. Harimo abagore, harimo abagabo, hari abantu b'ingeri zose hari ibintu bitandukanye.

Aha ni mu nzu bacururizamo, irimo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse harimo n'umukobwa ufite igikoresho gishinzwe gutwara imizigo iguzwe n'abakiriya, ndetse bakerekana n'icyapa kigaragaza aho bakirira abantu.

Ni inyubako nziza y'ikigo nderabuzima cya Remera, hari abantu batandukanye baje gushaka serivisi zikorerwa hano, ikigo nderabuzima ni ahantu haba hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Iyi ni ikarita ya mituweli ubwisungane mu kwivuza, ikorana na RSSB Ikigo cy'Ubwiteganyirize mu Rwanda. Baragaragaza y'uko utoraguye iyi karita, yayishyikiriza ubuyobozi bwa RSSB buri hafi aho ngaho kugira ngo ishyikirizwe nyirayo.

Uyu ni Mukanziga Pasikaziya yari arimo ashyikira miliyoni imwe n'ibihumbi magana biri na mirongo itanu, ayashyikirizwa n'umukozi ukorera ikigo cy'ubwishingizi bw'ubuzima, ku bufatanye na ejo heza ndetse na sonarwa. Yayahawe ku itariki 23/10/2021.

Iyi karita ni iy'ubwisungane mu kwivuza. Biragaragara ko nyiri iyi karita ari uwo mu mujyi wa Kigali, kicukiro, kanombe, kabeza. Kuri iyi karita haba hariho nimero y'irangamuntu y'umukuru w'umuryango, bagenda bayiha agaciro bateraho amakashe. Biragaragara ko izahabwa agaciro kugeza bibiri na makumyabiri.

Ni ubwisungane mu kwivuza mituweli iyi ni ikarita ikoreshwa n'umunyamuryango aho bafatati ikarita bakayuzuza neza, ikaba ariho amakuru yose agendanye n'umuryango cyane ko hagaragara n'uhagarariye umuryango hariho na nimero z'irangamuntu, bavuga ko ufite iyi karita aba atagomba kurembera murugo kuko aba agomba kujya kwa muganga biteguye kumufasha.

Uyu ni dogiteri Sabe, minisitiri w'ubuzima. Arimo aravuga biragaragara ko afite ibyo ari kugeza ku bantu, imbere ye hari icyapa cya Ara esesibi, impande iburyo n'ibumoso hari abantu bahicaye, umudamu wicaye ibumoso bwe arimo ari kuri mudasobwa.

Nyiricyubahiro umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara mu kiganza cy'iburyo afite icyuma ndangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi kuru ruhande yicaye hagati y'abantu abantu benshi bamuhanze amaso.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, hari imodoka nini zitwara abagenzi ndetse n'imodoka ntoya z'abantu ku giti cyabo, ndabona ibiti, ndabona amatara yo muhanda ndetse hari n'inyubako ndende yubatse mu buryo bugezweho.

Ni inyubako igaragara ko ari isoko rigezweho, harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo abaguzi ndetse n'abagurisha, abari kugurisha bambaye imyambaro yabugenewe, abaguzi nabo bari gutembera mu isoko rigezweho bareba ibyo bagura.

Ni mu isoko rigezweho, harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amabombo, harimo n'ibindi bintu bitandukanye, aya aba ari amasoko y'ikoranabuhanga agezweho, ajyanye n'igihe, ajyanye n'iterambere ry'igihugu.

Icyumba kirimo ibicuruzwa bitandukanye, ni muri ya masoko acuruzwamo ibintu bitandukanye, abantu benshi ntibagikunda kujya kugurira mu tuntu two hanze duciriritse, ahubwo abantu benshi iyo bamaze kugira amafaranga, bifuza kugura muri aya masoko, hamwe uza ukagura ibintu bitandukanye kandi bigezweho, kandi ku giciro kidahenze cyane.

Ni mu isoko hari ibicuruzwa bitandukanye hari mudasobwa ishobora kwifashisha batanga inyemezabwishyu, hari umuntu ugaragara nk'uri gushaka kwishyura amafaranga akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Iyi ni inyubako y'isoko igezweho, irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amafu, harimo amavuta ndetse n'ibindi bicuruzwa, harimo abacuruzi, umucuruzi yambaye agapfukamunwa ndetse harimo n'abaguzi, abacuruzi bambaye agapfukamunwa.

Ni mu isoko, harimo agakoresho kabugenewe iyo umuntu agiye guhaha agenda ashyiramo buri kintu hanyuma akaza kwishyura nyine akurikije ibyo yashyizemo, harimo abaguzi ndetse n'abacuruzi, harimo ibintu bitandukanye.

Hano hari inzu icururizwamo ibiribwa bitandukanye harimo fanta z'ubwoko bwose, hari izo mu macupa n'izo mu maparasitike, hari amaji atandukanye ndetse hari n'ibindi binyobwa byo mu nganda.

Ni mu isoko rigezweho. Hari ibintu bitandukanye hari ibicuruzwa bitandukanye ,yewe hari iby'abana barya ndetse n'abantu bakuru. Akenshi amasoko nk'aya akunda kugendwamo n'abasirimu cyangwa se babantu badapfa guhahira ahantu hose habonetse.

Umuntu wambaye itaburiya, ari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye by'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa. Biragaragara ko ari mu isoko ry'ikoranabuhanga cyangwa se isoko rigezweho. Kuko uyu munzani urimo ni umuzani ugezweho.

Iki ni icyumba gicururizwamo, harimo inzoga z'amoko yose, harimo inzoga z'amarikeri ziri mu macupa, harimo shampanye, izo nzoga zose ziragaragara muri iki cyumba uko zigiye zipanze, muri utu tuetajeri dutandukanye.

Iyi ni inzu igezweho y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amavuta y'ubwoko bwose, harimo ibyo kurya bitandukanye, iyi nzu y'ubucuruzi biragaragara yuko ari inzu igezweho ijyanye n'igihe.

Ni isoko rya kijyambere ririmo ibicuruzwa bitandukanye iyo uri mu isoko nka rino hari agakoresho karimo muri kubona kabugenewe ugenda ushyiramo igikoresho ushimye cyangwa se ikintu ushimye wamara kugishyiramo ukajya ahantu bakirira abakiriya hanyuma bakaguha fagitire y'ibyo waguze.

Ahantu hacururizwa imyenda, hari abashinzwe gutwaza abantu bamaze kugura, bigaragara ko bakora muri aha hantu hacururizwa imyenda ,harimu uguze ampa ikintu kinini cyo kwiyorosa ,hari nuyu muntu naguze igikapu, ivarisi biri mu gakoresho kabugenewe.

Isoko rigezweho ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Ni icyumba cy'isoko kirimo ibintu bitandukanye harimo amazi, iharimo amata n'ubundi bwoko bw'ibicuruzwa. Hari umuntu uhagaze ashobora kuba ari kugura cyangwa ariko kugurisha kuko iri soko iyo urigezemo uba wemere gutembera ahantu hose ukareba ibirimo.

Aha ni mu isoko ry'ibiribwa harimo imbuto ndetse n'imboga zitandukanye, hari imbuto cyane cyane ni zo ziganje ahantu hari inyanya, hari indimu hari n'izindi mbuto zitandukanye.

Ni inyubako y'isoko igezweho harimo ibicuruzwa bitandukanye hari ibyo kurya bitandukanye iyi nyubako umuntu aragenda agacagura ibyo ashaka warangiza ukajya aho ubishyuriza hanyuma bakaguha inyemezabwishyu ugatanga amafaranga hari agakoresho kari hano iyo uguze ibintu byinshi ugenda ushyiramo warangiza ugasunika ukagenda ukakageza aho urabikuriramo.

Iri ni isoko rya kijyambere ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Ndabona biswi, ndabona umuntu uri imbere witeguye kugura, ari kugenda areba atambagira muri iryo soko areba ibiri bugurwe.

Inzu y'ubucuruzi igezweho irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo isukari harimo ndetse n'ibinyobwa uyu muntu uhagaze imbere ahagaze imbere y'ikintu bajya bashyiramo ibicuruzwa iyo umuntu yaguze byinshi hanyuma bagapakiramo ibintu abijyanye aho bashakira inyemezabwishyu .